Imodoka nini cyane nziza y'umweru ya polisi. Iri ahantu ku muhanda imbere y'inyubako bigaragara ko inyubako ari iya polisi y'u rwanda.

Abanyeshuri benshi, n'abanyamutekano benshi baba polisi bari kwigisha abanyeshuri guteka kuri gaze, hari ibicupa bya gaze kuhande amasafuriya na agaze nyir'izina, umwana ari guteka, umuriro utunguka mu isafuriya uraka.

Aba nibamwe mu bacunga umutekano. Bambaye bote, inkweto zifunze, imyenda ya kaki n'ingofero. Harimo abagabo n'igitsina gore. Bicaye hamwe, bumva amabwiriza n'amategeko bagenderaho.

uruja n'uruza rw'abantu benshi cyane harimo abanyeshuri, abaturage, n'abapolisi. Bahagaze hakurya no hakuno, bigaragara ko bari kugira ngo babone uko babambutsa. Kuko hariho n'aho kwambukira.

Abantu benshi bicaye ku ntebe, intebe zimwe ziticayeho abantu, buri muntu afite ji, hari n'abafite amazi, hari n'umugabo uri imbere ufite mikoro. Bafite ibitabo byo kwandikamo, bamwe bambaye udupfukamunwa, abandi ntabwo bambaye udupfukamuwa, bicaye muri sare, bari mu nama, bateze amatwi.

Ingabo nziza z'u Rwanda, ziri ku karasisi harimo abakobwa n'abagabo bari gukorera ahantu heza cyane, hari amapave hirya y'aho hakikijwe n'inyubako ibiti.

Abasore babiri bambitswe amapingu, bambaye n'udupfukamunwa, bisa nk'aho batubahirije gahunda, imbere yabo hari ibyuma, bahagaze muri pasiparumu, ku ruhande rwabo hari umuyobozi ubashoreye uhagaze iruhande.

Polisi y'u Rwanda barinda umutekano bahagaze n'amapeti, amatente, abakamiramani n'abayobozi muri rusange bahagaze bacunga umutekano.

Abanyeshuri benshi bari hanze y'ishuri bari kumwe nabapolisi bari kubigisha ukuntu bazimya inkongi y'umuriro mugihe yaramuka ije badahari. Ifite gaze yatse n'isafuriya iraka.

Abagabo benshi bacunga umutekano bambaye kaki, ingofero, ishati n'ipantaro. Bambaye inkweto zifunze z'umukara. Hakabamo n'abambaye bote ndende bahagaze ku mirongo.

Abashinzwe umutekano n'abayobozi， bigaragara ko bari muri korona，bose bambaye udupfukamunwa，abandi bambaye ga. Bari kubigisha ukuntu bazajya barisiga sanitayiza mu kiganza， mbere yo gukora ku kintu.

Imodoka ya vatiri iri kunyura hejuru ya rigori, harimo umuntu munsi wambaye sarubeti y'umukara yanditseho misi, ku ruhande hari abaporisi bari kumubuza, umushoferi n'abasirikari, ni muri Korona bambaye udupfukamunwa, bari kumubuza yo kunyura munsi.

Abantu bacunga umutekano benshi, bari mu nzego za polisi, umwe aratetse imbere hariho na gaze, yerekana amazi n'isafuriya.

Abantu benshi bicaye ku ntebe za pipitire mu kigo cy'amashuri, n'abandi bicaye ku ntebe y'amasheze, imwe itariho umuntu, imbere hari akameza, harimo n'ucunga umutekano polisi, n'ucunga umutekano w'umusirikari ,bari gukoresha inama bakusanyije abaturage.

Inama yateraniyemo abayobozi batandukanye, abapolisi, n'abandi bayobozi bo mu zindi nzego. Bafite mikoro, amazi ku kameza imbere, na ajenda yiwe. bamwe bambaye ubupfukamunwa abandi batabwambaye.

Uruhurirane rw'abantu, inama yateraniyemo abaturage benshi. Imbere yabo hari umupolisi bambaye n'imyenda za gipolisi, asa nkaho ari kubabwira amabwiriza basa n'abamuteze amatwi.

Inama yateranije abantu benshi, abaturage binjiriza bagenda bahabwa ijambo bavuga ibyifuzo binyuranye ibitekerezo, basangira ijambo muri rusange.

Ibikoresho bya gakondo bakoreshaga kera, iningiri bayicurangaga igihe habaye ibirori, umuheto bakawurashisha igihe batewe n'abanzi bari kujya baritabara.

Umugabo uri mu muhanda ubona ko nta nkweto afite, wikoreye umuvure bakoreramo inzoga. Agenda anyura ahantu hateye imyaka, ariko harimo umuhanda.

Umutegarugori upfukamye wambaye neza, yambaye ibikomo uri gusya ku rusyo ifu nyinshi, yashashe akantu iri kugendera igwaho. Kuruhande hari agasafuriya karimo imineke.

Hasi hari amashyiga arimo ivu n'udukwi ku ruhande. Hakaba n'isafuriya irimo ishashi, n'ingofero ku ruhande, n'intara ku ruhande itagira ikintu kiyiriho.

Inzu nziza ya kera yubakwaga ahera imwe y'ubwami yubakishwaga ibyatsi ,ikazitizwa imigano n'uduti. Amazu menshi n'inyuma hari indi nzu noneho nyuma ya ho hakaba hari amashyamba.

Kimwe mu gihingwa cyane, cyahingwaga kera na nubu kikaba gihari atari cyane, itabi. itabi ni igihingwa gikundwa, kijyanwa hanze, no mu rwanda ababyeyi beje itabi barishimye, baripanga ku mirongo.

Intore nziza zigaragara neza zambaye neza, zose zifite amacumu zambaye n'amayugi ku maguru, ziri ahantu habaye ikirori, hari amatenti Kandi adekoye neza cyane.

Ahantu hanini hariyo imivure ibiri. umuvure umwe w'inyuma urambitseho uduti barambikaho ibikatsi bari gukama, hasi hari ikirago, hejuru ku ruhande ku ihema hari imikeka, imisanmbi myiza.

Umu Ajenti uhagaze afite telefoni n'agakapu. Ku ruhande rw'iwe hari intebe nziza cyane bikozwe mu migano. Ni imwe mu migano bagiye basatura batambika.

Umuntu wicaye wambaye isaha uri kuboha ikirago cyiza n'imideyi, umaze kuboha imirongo eshatu uri ku wa kane. Ikirago gifite ubwatsi bwiza aba afite n'imideyi myiza yo kubohesha.

Abantu harimo intore iri kubyina, ifite n'icumu, kandi yambaye nk'intore, harimo n'abantu barikujya bacuranga, n'uri gucuranga gitari, n'undi inyuma na we ufite gitari.

Umusaza wagira ngo ajya acuranga umuduri, awufashe ameze nk'ugiye kuwuvuza ahagaze. Inyuma ye hari igikuta cy'amatafari ahiye.

Ikigega cya kera bahunikagamo imyaka gipfundikiye giteretse hejuru, munsi hari amabuye kirambitse hejuru ku karago no ku misambi.

Abantu barindwi bari kubyina b'intore bambaye n'amayugi ku maguru, bari kubyinira ahantu hari utuzu tw'ibyatsi ,utwo tuzu tuzitijwe imikenke barikubyina, ivumbi ryatumutse ni ahantu huzuye.

Ikiganza cy'umuntu ufite gitari. Ari gucuranga gitari rwose yishimye. Gitari zimwe za kera zo mu biti.

Umugabo uhagaze wambaye ibintu by'intore, ufite icumu mu ntoki, wakenyeye ahagaze ahantu hitwa ibihige hari ibintu by'ibiti ,asa nkaho yiteguye kugenda abyina.

Umugabo uhagaze ahantu hawenyine ufite umuduri n'udukoni tubiri two kuwucuranga. Umugabo wambaye neza, usa neza, useka.

Umugabo umeze nk'umwami wigeze kuyobora u Rwanda, umwami Musinga yigeze kuyoboraho hambere, wambaye imishanana, wambaye n'urunigi mu ijosi, ari kumwe n'undi mugabo.

Intore nziza ziri kumironko, ababyinnyi basa neza, bambaye neza bikoreye uduseke, bose barambuye amaboko, bari ahantu mu kirori, mu kibuga hateraniye abantu benshi.

Icyansi bacundiramo amata, bakundaga kugikoresha cyera cyane. Giteretswe ku nkoko kuruhande hari inkongoro ebyiri, bakunda kunyweramo amata, n'udukomo turiho amasaro.

Umugabo rwose w'umusaza wishimye, bamutunze mikoro ari kuvuza ikondera yishimye ,nubwo iwe inyuma ye hari insina na zo n'inzu ye.

Ababyeyi b'abamama n'abapapa bari gusogongera mu gicuma cyiza, buri wese afite umuseke we arasogongera. Umumama umwe yambaye isaha, uwundi ariteze, abasaza ...

Amashyiga abiri ateretsweho agakono, bigapfundikirwa n'ubundi n'akandi gakono. Munsi y'umuriro uri kwaka cyane bigaragara ko bacaniye.

Abagabo bane bari mu muhanda w'igitaka ukikijwe n'ibiti, bafashe ingobyi harimo umuntu bahetsemo, banamutwikiriye, bamworoshe, bigaragara ko uwo umuntu arwaye.

Umukaraza wambaye neza nk'intore mu inigi isa n'amayugi ku maguru, ufite imirishyo ibiri n'ingoma ebyiri ari kuvuza ingoma.

Ababyinnyi benshi b'intore bambaye neza, ibinigi mu ijosi bambaye n'amayugi ku maguru, bagaragiwe n'abantu benshi bari kubareba bicaye imbere y'ababyinnyi ku ruhande hari idarapo ry'u Rwanda.

Umusore wakoze ikibumba cy'umugore ufite isekuru n'isuka mu ntoki. Hirya hari ibikoresho by'ububaji, n'amabati, n'ibindi bitandukanye yagiye abumba.

Umugabo uhagaze ariko afite inkono n'agakiza ni isahani, ku ruhande hari imbehe, imwe bakundaga gukoresha mbere ariko icyo gicuma kirimo imiheha ibiri, kirimo icyo kunywa.

Abagore batatu umwe wikoreye intara, ufite igicuma mu ntoki, igikombe hasi n'umwana. Bari ahantu hitaruye hari amazu y'ibyatsi y'ibiti.

Intore zambaye neza abari, abategarugori n'abagabo, bamwe bambaye imikenyero y'umweru n'udusengeri tw'umukara, abandi bambaye imikara n'urunigi.

Ababyinnyi batatu, b'intore bambaye neza, bafite amacumu, bafite amayugi ku maguru, inyuma yaho umubyeyi wambaye imishanana myiza, ari gukoma amashyi, ku ruhande rwe hari umusore uri kuvuza vuvuzera.

Abana b'abakobwa benshi bari mu rugo ruzitije imikenke. Harimo umwana umwe uri gusya ku rusyo ararambitseho hasi n'inkoko iri kujya ijyaho ibyo amaze gusya. iruhande hari n'agaseke. Abandi bakobwa baramuhagarariye, bari kureba ibyo ari gukora.

Agaseke keza karimo ubururu n'umweru kari konyine baboha mu bwatsi n'umudeyi bakunze kwikoreramo ibintu by'impeke zitandukanye bajya mu kirori runaka.

Intore ziri kubyina n'abari n'abategarugori bari kubyina abandi bakoma amashyi, n'abakaraza benshi cyane bari kuvuza ingoma n'imirishyo myiza cyane.

Ahantu heza cyane hashashe harambitseho udukono tw'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, inyuma ya two hari amabuye, uduti ku ruhande bita kagi...

Umuntu wicaye uri wenyine, wambaye imyenda y'imweru, wambaye n'umudari, wogoshe kumwe bogoshaga abami ba kera bamwogoshe amasunzu, ahagaze wenyine ahantu hitaruye.

Umugeni batwaye mu ngobyi, n' abagabo bane batwaye ingobyi. Imbere hari abikoreye ibibindi birimo inzoga, inyuma hari umudamu ugiye akenyeye imikenyero.

Ahantu heza h'itaka hateretswe agacuma keza karimo n'umuseke w'igiti, bakundaga kunywesha kera, ariko n'ubu tujya tubibona, ariko bitari cyane.

Uduseke twinshi twinshi,n' mitemeri, babohamo ubwatsi n'imideyi, bayitambika ahantu hejuru y'ameza, nubwoko butandukanye, n'amabara menshi atandukanye.

Iyugi ryambarwa cyane n'intore, abahungu cyangwa abategarugori, bakajyambara ku kaguru, babyina rikagenda ryizunguza. Mu nda h'iyugi haba harimo agasaro kagenda kizunguza.

Abagabo benshi b'abakaraza bavuza ingoma bambaye umweru n'imyitero y'umutuku, buri mukaraza wese afite ingoma, imbere y'aho hari intebe y'isheze.

Umuntu uri ahantu mu murima, uri kunyanyagiza itazi hasi, kuruhande hari akatsi kamera bivurisha, kitwa capusine bakunze kuvurisha, umutwe cyangwa ibicuranrane.

Abakaraza b'abakobwa bafite imirishyo n'ingoma hasi, barishimye rwose bari kuvuza ingoma, bambaye neza imikenyero isa.

Umurima munini uri ahantu harambuye uhinzwemo amasaka meza agaragara nk'aho ateze. Muri ayo masaka hagati mu murima harimo igiti kinini kirekire.

Umuntu upfukamye w'umukobwa, upfukamye impande y'urusyo uri gusya agatereka agakoko imbere ye, hirya hakaba agaseke n'umuvure.

Kimwe mu gikoresho cyakundwaga cyane kera bitaga inkongoro. Bakundaga kunyweramo amata cyane cyane. N'ubu biracyahari ariko ntabwo biboneka cyane nka mbere. Ubu ntabwo ari cyane cyane.

Igikoresho cya elegitoronike kiri ahantu mu nzu nini y'amakaro, icyo gikoresho gicometseho ibitsinga bibiri, ni igikoresho kimwe bakunze gukoresha nko mu mabanki, kinini cyane cya elegitoronike.

Ibikoresho bikoreshwa muri elegitirisite byiganjemo amatara tuno tw'utwuma na hantu ho gukanda amaburo.

Igikoresho kinini kandi cyiza gikoreshwa mu bintu bya elegitoroniki n'amashanyarazi kirambitse hasi ku makaro, gifite umugozi wo gucomeka k'umuriro.

Ibikoresho bya elegitoronike byinshi birambitse, harimo umurasire munini cyane, temate ebyiri, hakaba n'ikindi gikoresho cya elegitoronike gifite n'amaburo.

Igikoresho bakoresha mu bintu bya elegitirisiti, kirambitse gifite intoboro, itandatu, mo imbere hari ibara ry'umutuku, inyuma ibara rya kaki, hejuru naho hakaba akuma, kiri ahantu kirambitse kitaruye.

Igikoresho kinini bakoresha muri eregitirisiti, gifite hejuru utwuma dutatu cyanditseho nimero, zeru icyenda gatatu zeru gatandatu nome mirongo cyenda n'umunani, kiri ahantukirambitse kirambitse kitaruye.

Igikoresho bakoresha cyane cyane ku muriro, cyanditsweho ofu na onu, kirambitse ahantu hasi ku meza.

Ibimashini byiza cyane bikora imihanda, bigiye bikururanye biri mu muhanda w'ibitaka, ku ruhande hari umuntu wambaye ijire y'umutuku, ku ruhande rw'umuhanda hari ibiti n'insina.

Ikiraro cyiza cyubatswe neza, hari n'imodoka iri kunyura hejuru y'icyo kiraro hari n'umusore uri ku igare uri kuhanyura, inyuma yaho hari abaturage bahahagaze benshi.

Inyubako nziza iri ahantu heza ya etaje izitiye. Imbere y'iyo nyubako hari umuhanda mwiza w'umukara unyuramo imodoka zitandukanye z'amavatire. Hakurya y'umuhanda hari utwatsi n'ibiti byinshi.

Inyubako nini, inzu nziza. urusengero rw'Abadeperi paruwasi ya Rwinkuba hasengeramo abakirisitu batandukanye b'Abadeperi.

Amazu menshi 'yumudugudu uri ahantu witaruye h'ikibaya, hirya hari imisozi, ibiti, amazu, harimo n'amashuri. Aya mazu yose afite amabati y'umutuku, ni umudugudu w'icyerekezo rwose.

Inyubako nziza cyane iri mu gipangu, impande y'inzira hari kunyura umuntu wambaye agapfukamunwa, inyubako y'urusengero y'ibirahuri, amabati y'umutuku n'amatafari meza cyane.

Amashuri ari ahantu hatuje, hirya ari amashyamba, hafite ikigega, ubukarabiro bwiza, inyubako nziza ikomeje, yubatswe ahantu mu biti byinshi.

Kiriziya nini cyane yitaruye ahantu mu kibaya, imbere hari ishusho ya bikiramariya nziza cyane, hari agahanda k'amapave kajya ku rusengero, munsi hariyo indabo, ibiti, n'inyuma hariyo andi mazu.

Inyubako nziza yubatswe neza iri ahantu heza, amabati meza, uturahuri twiza ifite n' umusaraba, ni urusengero rwitaruye ahantu heza, hirya hari uduti dutoya turukikije.

Hari ikiraro kinini. Hasi senyenge ,hejuru hari ibiti byuma. Ibinyuma birimo ubururu ,icyatsi n'umuhondo.

Akagari keza katereye ahantu heza, hirya hari ikibuga cy'uducaca, hari umuhanda mwiza n'indabo ku murongo hari n'umuriro w'amashanyarazi hari n'ibendera ry'u Rwanda, idarapo.

Abafundi bari kubaka fondasiyo bamwe bambaye amajire gusa, abandi bambaye amajire n'ingofero, bari bubaka ikigo cy'amashuri n'abayede bakoze fondasiyo.

Inzu iri ahantu hitaruye, hari ibicu, harakeye, hameze ibyatsi. Bagiye baranahasarurira, bajya baranahasarurira. Ni ahantu hatuje hitaruye.

Imodoka nyinshi cyane ziri kumwe hano hamwe muri gare. Hakurya yaho haba ishyamba rinini cyane, naho zihagaze hasa neza, hari umuhanda mwiza.

Inyubako nziza y'abaturage mu murenge saco, harikujyayo urujya n'uruza rw'abantu binjira basaba serivisi, imbere yaho hari umwagenti ufasha abaturage mu bintu byo kubitsa no kubikura, hakaba hari umuhanda witaka inyura abantu.

Ikusanyirizo rinini cyane ry'amashanyarazi, hagiye hari ibyuma bitandukanye. Insinga, amaferabeto, biri ahantu heza hitaruye habyo gusa.

Kiliziya nziza yubatswe ahantu heza hitaruye hikibaya, ifite umusaraba hejuru, ifite imiryango igiye itandukanye, agahanda kajya ku kiliziya gakikijwe n'uturabo twiza, hirya hakaba ikibuga kirimo pasiparume.

Igipapuro cy'igifishi kirambitse ku meza, hirya hari garafeze yanditseho Umurenge Sako. Ifishi yo gusaba serivisi z'Umurenge Sako, hifashishijwe ikoranabuhanga, ifishi iriho amazina, ikabaho senyatire, ikabaho n'itariki.

Inyubako nini kandi ni nziza iri ahantu hitaruye hasi hari utwatsi twa pasiparume. Iyo nzu ni amashuri meza ageretse mu nyubako ya etaje.

Inyubako nziza z'amayetaje zisa, ku mpande n'impande hariho imihanda na yo myiza inyuramo amamodoka, urujya n'uruza rw'amamodoka agiye atandukanye, kubera imihanda yambukiranye izo nyubako kandi nyinshi zisa.

Urujya n'uruza rw'abantu bamanuka, bamwe bambuka ikiraro bambaye amajire, amapantaro y'umukara, n'udupfukamunwa dusa. Ku ruhande rw'icyo kiraro hari ibibumba cyangwa se ibyuma bisize amabara y'icyatsi, umuhondo n'bururu, inyuma hari n'abandi bantu bamanuka.

Inyubako nini cyane, irimo abantu bagiye batandukanye, Kiliziya. Harimo abapadiri, abamasera, bakimbagira bakimbagira bari nko kujya mbere.

Ishuri ryiza riri ahantu heza h'ikibaya hitaruye rifite ikigega cy'amazi n'agahanda keza n'akabuga karimo utwatsi rikagira n'idarapo ryiza ry'igihugu cy'u Rwanda.

Inzu nziza cyane, n'icyumba cyiza gifite urugi rwiza, hanze itara, muri icyo cyumba ni ibiro bya akawuntanti iriho n'ifoto ye n'umwirondoro we.

Inzu nini y'urusengero iri gusohokamo abantu b'abagabo. Bamwe wagira ngo ni abayobozi, umwe wambaye bote n'imyenda ya kaki w'umupolisi, abandi ni abamama bari ku ruhande. Hakabamo n'umupolisi ubari inyuma wambaye imyenda y'umukara.

Umuhanda mwiza uri hagati mu mujyi. Hakurya na hakuno hari umuhanda unyuramo abanyamaguru. Inyuma cyane hari inyubako nziza ziteye amabengeza, ku mpande z'umuhanda, hari ibiti bigiye bihateye.

Umuhanda mwiza unyura ahantu heza, mu mudugudu utuwe n'amazu meza ashimishije. Mu muhanda hari umuriro n'amatara, byose.

Ibimodoka binini cyane bikora mu muhanda cyangwa biyora itaka , ibindi birimanura . Biri mu muhanda mwiza w'ibitaka, hagati y'ibyo bimodoka harimo umuntu , kandi ikimodoka cy'inyuma nacyo kirimo umushoferi ugitwaye.

Urusengero rwiza rwubatswe neza ,amabati meza harimo n'ibyuma, intebe nziza zo kwegamira. Inzugi nziza zikomeye nazo ziriho nk'umusaraba bigaragara neza cyane.

Abaturage benshi bitabiriye inama, buri muturage hafi ya bose bafite ibipapuro bagenda basoma ibintu by'imyanzuro, abandi bateze amatwi harimo n'abayobozi bari kujya inama, bose hamwe bungurana ibitekerezo.

Abantu benshi cyane bamwe bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe higanjemo aba mama na papa hari umugabo uhagaze imbere yabo wagira ngo ari kubaha amabwiriza n'abandi bari bukoma amashyi abandi bari kwandika.

Abanyeshuri benshi cyane bambaye inifome, bigishwa abatariman right fender out, uburenganzira bw'abantu hari n'umuyobozi wabo barimo no kuberekera bafite n'icyapa ashizemo.

Inama irimo abayobozi n'abaturage, umuturage w'umudamu usa nuri gutanga ikibazo, umuyobozi amwakirira yumva amwumva, amuteze amatwi, nawe yatinyutse nta bwoba abaza ibibazo byose afite.

Umubyeyi w'umupapa utwaye igare, uhetse umubyeyi w'umumama uteruye umwana, bari mu muhanda, bari kugenda ku igare ari batatu gusa.

Imodoka nziza, iparitse muri gare. Volcano, inyuma yaho hari ahandi handitswe vorukono, bigaragara ko ariho bakatishiriza amatike. Iracyaparitse, ariko n'inyuma y'aho hari indi modoka nayo yitwa Volcano,

Abamotari benshi. Abamotari na moto ye barishimye cyane, bari ku muhanda w'itaka. Bari imbere y'inzu inzu inyuma ya hari indi nzu.

Imodoka nini cyane yo mu bwoko bwa bisi, iri kugenda mu muhanda mwiza w'umukara, kuruhande rw'uwo muhanda hari umurongo w'amazu y'ubucuruzi, inyuma hejuru hari amapoto, insinga, umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda munini wa kaburimbo. Urimo ujya n'uruza rw'abantu b'abagenzi n'abanyonzi bahagaze ku ruhande, rw'umuhanda w'umukara, bafite amagare, bameze nk'aho bategereje abagenzi.

Umuhanda urimo umumotari umwe uri ku muhanda n'imodoka hirya ya shirumuteto. Gare ijyamo urujya n'uruza rw'abantu bajya gutega hakabaho n'inzu nyinshi z'ubucuruzi n'amamodoka agiye atandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu mu muhanda n'imodoka nyinshi cyane ziganjemo ama fuso ahetse ibintu by'imifuka, ama fuso amanuka mu muhanda, manuka azamuka, ku ruhande hari inyubako ya etaje ifite porotayi nziza y'umweru.

Imodoka ya bisi iri mu muhanda. Yanditsweho Visiti Rwanda hasi, hejuru ikandikwaho Kigali Siti Towazi. Irimo abantu hejuru y'iyo bisi. Ni bisi y'ubukerarugendo igiye gusura u Rwanda.

Ikimodoka kinini cyane bita ikamyo, kiri m'umuhanda w'ibitaka gihetse itaka ryinshi cyane rimwe babumbamo amatafari yo kubaka.

Urujya n'uruza rw'abantu batonze imirongo, bamwe bikoreye, abandi batikoreye, bari kujya gutega bisi nini cyane, iri impande y'umuhanda bita shirumuteto ikunze gukora cyane mu mihanda ya Kigali.

Abamotari bane, umwe uhetse umugenzi, babiri nta abagenzi, undi ari kuvugana n'umugenzi wambaye kasike, baganira bishimye. Hirya hari abantu n'abo barimo kugenda mu muhanda, babiri bambaye iby'ubururu bari mu muhanda ahantu hari ibiti n'indabo nziza.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri benshi harimo abakobwa n'abahungu. Bahetse ibikapu bambaye n'iniforume zitandukanye. Batonze umurongo rwose ari benshi cyane.

Imodoka nini ya bisi shirumuteto ikunze gukora mu mihanda ya Kigali, iri mu muhanda w'umukara inyuma yaho hari ivatiri nayo y'umweru iri mu muhanda.

Urujyanuruza rw' abantu bari mu isoko, harimo imyenda, hakaba n' abagabo bicaye ku ngorofani n' abandi bagenda; ingorofani zimwe z' ubwikorezi, ku ruhande mu iryo soko hari amazu y' ubucuruzi.

Umugabo utwaye amagare akunze gukora ku mipaka. Apakira ibintu by'imizigo, abijyana aho babitegetse cyangwa se bintu by' imyanda mu ngarani. Hari n'abantu bamusunikiye.

Urujya n'uruza rw'imodoka. Imodoka nini ya shirumuteto n'amavatiri mu muhanda. Shirumuteto irimo abagenzi, iri mu muhanda w'umukara. Hirya hari amapave, inyuma hari imodoka, n'ibiti byiza ku muhanda.

Abanyonzi benshi cyane, bahage bitaruye umuhanda bagaragara nk'aho bategereje abagenzi. Gusa hari urujya n'uruza rw'abantu, bamwe bajya gutega, abandi bambuka, hakaba n'imitaka myinshi, y'aba ajenti bari ku muhanda.

Urujyanuruza rw' abantu bamwe bajya muri gare, abandi bavamo hari n' imodoka nyinshi z' amoko menshi zitwara abagenzi ziri kwerekeza mu ntara zitandukanye n' uturere dutandukanye.

Imodoka nini ya bisi yanditseho izi, munsi harimo abantu bari kuyikanika bambaye jese irimo umweru n'ubururu, iruhande hari undi mugabo wambaye ingofero uri munsi mu modoka hari nundi muntu uhagaze igishati cyanditseho marwa.

Imodoka nini ya bisi ikora cyane muri Kigali yitwa jeyi taransipoti ikunda gutega bakoresheje ikarita ubanza kwishyura abantu bakinjira mu modoka.

Imodoka nini itwara abagenzi ya Vorukano. Ku ruhande hari abanyeshuri benshi batonze umurongo， bajya muri iyo modoka，inyuma yaho hari sitade， uri kubona ko yateraniyemo abantu benshi.

Abaturage benshi babamama bikoreye ibintu harimo imisambi, ibitege, uturago bameze nk'abantu bari kwimuka cyangwa bari guhunga mbona bari kunyura mu nzira ikikijwe n'ibiti mu nzira ntoya.

Abakobwa n'abahungu bahagaze bamwe bambaye imituku abandi imikara. Bafite agatenesi bari gukina tenisi ufite agatenesi yambaye inkweto z'umutuku n'agapira k'umutuku k'umukara, bari mu kibuga ku mirongo babiri babiri.

Abanyamagare wagira ngo bari muri turu di Rwanda, buri wese n'igare rye, wagira ngo bari kujya kubabwira amabwiriza. Ku ruhande hari imodoka, bari mu muhanda bameze nk'aho bagiye gutangira, buri wese n'igare rye, bagiye gutangira.

Ikibuga kinini kirambirije, kimanitsweho inshundura zigaragara ko bagikiniraho umukino wa voriboro, ni ikibuga cyiza, gikikijwe n'ibiti byinshi.

Umuhungu mwiza cyane wambaye neza uri gukina tenisi, akadenesi kakaba kamugiye inyuma ahagaze ahantu heza mukibuga wenyine aritaruye.

Abakinnyi bari hakurya， bitaruye ikibuga. Basiketi, mu kabogisi，haguyemo umupira wa vore， usa nk'aho ugiye kuvamo.

Umugabo w'umuzungu uri mu kibuga cyiza hari n'umugabo wicaye w'umwirabura n'abandi bagabo bari inyuma y'icyo kibuga b'abirabura, uyu muzungu agaragara nk'ugiye gutera umupira.

Abantu benshi bahuriranye, harimo abari gukina umukino wo gusimbuka. Benshi cyane bashyizeho ibiti bitandukanye hejuru uri gukina akaza gusimbuka.

Ingeri nyinshi z' abantu harimo: abakobwa n' abasore batonze imironko, biragaragara ko bari mu rugerero batonze kuri paledi imironko iringaniye bose bari umujyo umwe.

Abasore babiri bambaye umuhondo n'ubururu bateruye uwambaye umukara n'umweru, ugiye gutera umupira, gutera umupira umuntu wambaye umukara n'inkweto z'umweru, ari gukina volley ball hejuru yaho abandi na bo bambaye umweru n'ubururu n'umuhondo.

Abantu bari gukina umupira, bari muri siporo, harimo abambaye amajeze, hakabamo n'undi utambaye jeze wambaye umukara, unasutse. Batereye umupira hejuru, ku ruhande hari undi usa nkaho ari kuvivura, wambaye umweru hejuru, hasi umukara. Hakaba n'abagabo bahagaze imbere y'icyapa cyanditseho Kifa konsutaragisheni n'abandi bicaye ku ntebe.

Abakinnyi benshi bagiye batandukanye ku mpande zombi, na zamu wambaye numero makumyabiri, uri mu izamu. Hagati bari gukina futuboro n'abafana ku ruhande rwo hepfo babareberera bari gufana aba bakinnyi.

Abagabo babiri bahagaranye. Bahagaze ahantu mu kibuga. Umwe w'umuzungu undi w'umwirabura. Bose ni abakinnyi ba tenisi. Ruguru yaho hari intebe nyinshi, bisa nk'aho ari muri sitade.

Abakinnyi bari mu kibuga. Sitade irimo abafana bagiye batandukanye, abo bakinnyi harimo abambaye umuhondo na bambaye ubururu. Abambaye umuhondo bagiye gutera mu izamu rya voreboro muri VISIT RWANDA.

Abantu benshi baje gufana muri siporo abari gukina vore bolo higanjemo abasore benshi cyane uwambaye numero icyenda, zirindwi n'abandi bambaye umuhondo.

Ikibuga cyiza kiri ahantu heza hitaruye hari ishyamba ,hari ibiti hazitiye, hari uducaca twiza ,ikibuga cya volebolo na basikete.

Intore nyinshi nziza cyane ziri ahantu muri sitade. Zujuje abantu baje gufana, intore ziganjemo igitsina gabo. Ziri kubyina cyane barishimye.

Ni umukino w'amagare mwiza turu di Rwanda. Bambuka mu muhanda urambuye, bose ku mirongo basiganwa. Umuhanda biragaragara nk'aho ari mwiza. Ku mpande hari utwatsi, hepfo hari utwatsi, amazu ari hakurya.

Abakinnyi bambaye imihondo harimo n'abambaye ubururu, umwe wambaye ubururu wambaye nimero enye ari kwandika mu gitabo ari kwiyandika, undi wambaye nimero cumi ni imwe, ameza nkaho ategereje ngo yiyandike, undi uri kubaha ikayi ngo avivure nawe yambaye umweru n'ubururu hejuru.

Umukobwa uri gukina siporo ufite agatenesi, agiye kugatera inyuma ye hari abantu bari kugendagenda, harimo abapapa babiri, undi mu papa ufite agapaniye, ajyanye muri pasiparumu ni hanini cyane hari itara.

Abana bakina imipira. Bamwe bambaye ubururu abandi umuhondo. Bambaye amabara atandukanye ; harimo umwenda wa nimero cumi na kane, makumyabiri na karindwi. Harimo n'abayobozi bari ku nzu nziza ,ifite n'icyapa cyitwa ja............

Abantu bari muri siporo yiganjemo abakobwa bari gutera umupira uri hejuru, muri abo bakobwa umwe yambaye amarinete, ku mpande hari abagabo begereye icyapa cyanditseho ngo kefa konsitrakisheni wawakafaspoti, bari gutera umupira ku ruhande hari abantu ba.....

Bamwe mu bakinnyi bari mu kibuga, higanjemo bambaye imyeru bari gukina basikete boro, umukino mwiza cyane umugabo afite umupira mu ntoki, ssa nkaho agiye kuwunagamo.

Umusore mwiza wambaye neza uri ahantu heza, ufite umupira mu ntoki agiye kuwutera. Ku ruhande rw'inyuma hari andi mabaro agiye atandukanye menshi atondekanye.

Abantu benshi buzuye sitade, bamwe barahagaze, abandi baricaye, harimo umufana wisize amarange agize ibendera ry'u Rwanda, ubururu, icyatsi, umuhondo, barahagaze bari kujya barafana.

Ikibuga cyiza kimeze neza, harimo abantu benshi b'abana bameze nk'aho bari muri turu di Rwanda, umwe afashe igare arimanitse hejuru, abandi bari ku igare kandi bose bambara amakasike n'inkweto zifunze.

Abakinnyi b'abakobwa bari gukina umukino wa basiketi, bamwe bambaye umweru b'abazungu n'abandi bambaye ubururu ,n'abafana buzuye sitade benshi.

Abahungu bari muri siporo bane. bambaye imyenda yanditsweho isonga, umwe wambaye akenda ko karimo umuhondo, wambaye n,isaha kuboko, kuhande hari n' umugabo urigusifura wambaye ingofero yumutuku, ufite n'ikayi urikugenda uvivura, inyuma cyane hari undi mugabo wambaye agapira k'umweru, uri munsi yuwo muhanda bari kwirukankamo.

Umwana w'umukobwa uhagaze mu kibuga wenyine ufite umupira wambaye imyenda ya siporo inyuma ye hari abafana .....

Sitade yuzuyemo abafana, mu kibuga hari abakinnyi bari bakina basiketi, umwe uri hejuru, ufashe baro, ugiye kuyitera muri basiketi, abandi baza bamusatira.

Umukino mwiza wa volleyball. Ugaragiwe n'abantu benshi baje gufana bagiye batandukanye, bamwe bari hakurya abandi bari hakuno ,bose bari gufana uyu mukino wa volleyball.

Abakinnyi benshi b'abakobwa bari gukina basket bambaye imyenda yiganjemo amabara yumweru. Bigaragara ko na stade irimo abantu n'intebe zitarimo abantu bari mukibuga cyiza n'undi mugabo wahagaze kuruhande wambaye ipantaro yumukara nishati yumweru.

Ikibuga kinini kirimo abakinnyi ba futuboro, inyuma y'icyo kibuga hari abapolisi bacunga umutekano, hirya intebe z'abafana. Ni sitade nziza cyane.

Umurima munini cyane, wuzuyemo ibyatsi, amabuye ku ruhande, hirya cyane harimo ibiti, imisozi, n'ibihingwa bigiye bitandukanye biri ku ruhande.

Umuhanda munini cyane ujya mu ngo z'abaturage mu mudugu, ku mpande hari ibipangu by'abantu bagiye batera indabo nk'izindi ndabo ku rundi ruhande.

Umuhanda munini cyane urambuye, ushashemo amabuye meza y'amakoro, unyuzemo umuntu ,hari n'akayira kagana ruguru kazamutse, na ko karimo amakoro. Ni umuhanda ugaragara neza cyane.